Kamera yo ku muhanda benshi bakunze kwita sofiya ipima ikanafata ibinyabiziga byarengeje umuvuduko ntarengwa bikurikijwe n'amategeko uko leta yabigennye.

Abaporisi b'u Rwanda bari gucunga umutekano bafite bambaye iniforumu zabo. Bafite n'ibikoresho by'ubwirinzi n'intwaro, ibikoresho bituma bitabara kandi bagahashya umwanzi.

Umuhanda urimo imodoka za kwasteri, toyota, moto, ndetse hirya hari inyubako ya etaje nziza n'indi iri imbere nziza, hakaba hari na zebura korosi Aho bambukira harimo ibimenyetso by'amatara y'umutuku nay'icyatsi.

Umusirikare w'u Rwanda yambaye iniforume iriho igaragaza idarapo y'u Rwanda, yambaye n'ingofero y'abakapiteni mbese uyu ni umusirikare wo hejuru mu rwego rwo hejuru, afite n'inyenyeri ku bitugu.

Amazi mu kiyaga harimo abantu bari koga mbese barishimye, harimo n'ubwato burimo abantu babiri, bigaragara ko aha hantu ari aho abantu baza, bakishima boga bogoga mu mazi.

Abapolisi bahagaze bambaye iniforume, bari kureba undi mupolisi uri gutoza imbwa gusaka ibikapu. Bisa n'aho bari mu myitozo batoza imbwa gusaka ibintu bitandukanye. Kandi bakaba banaberewe muri iniforume yabo.

Abapolisi baba kadete bari guhabwa imidari, mu nama cyangwa mu kirori runaka, bitewe n'ibyo bagezeho, bagezeho bari kuzihabwa n'abayobozi bakuru babo, kuko hari ibintu bagezeho by'indashyikirwa.

Indege ya kajugujugu iri kugenda mu gicu cyo hejuru y'agasozi kadazamuye cyane. Kateyeho ibiti, gahinzemo n'ibihingwa byinshi cyane bitandukanye.

Abapolisi bari ku ikosi mu myitozo, bari kwiga siporo z'ubwirinzi. Harimo n'abakobwa n'abasore bakomeye, biteguye kurwanirira igihugu barinda umutekano.

Umupolisi wo mu muhanda arimo aratanga ikimenyetso ku modoka ko igomba guhagarara. Kandi yambaye iniforume y'abapolisi bo mu muhanda. Hano bikaba bigaragara ko ari mu mugi wa Musanze.

Abanyerondo cyangwa abacungamutekano bari kuri Rasamburema bari kuri Palede, bambaye iniforume yabo ndetse na bote. Barahagaze, bari kumvamva amabwiriza bahabwa n’umuyobozi wabo.

Abadaso n'abandi bashinzwe umutekano, n'abaturage bitabiriye inama. Abadaso batatu bicaye imbere hamwe n'abaturage ,inyuma yaho hari abanyerondo bambaye iniforume ya kaki.

Abapolisi batatu b'u Rwanda bakorera mu muhanda umwe ,afite agapapuro bari komeka ku modoka ya tagisi twegerane, ndetse hari n'abandi baturage bari kureba uko abikora.

Inama y'abaturage batangiramo ibibazo, bigaragara ko iyi nama yiganjemo abadamu bafite abana, bahetse abana, bateza ibitambaro, harimo n'umugabo ufite mikoro uri gutanga ikibazo, yambaye n'agapfukamunwa arimo aratanga ikibazo cye.

Inama yahuje abayobozi bicaye mu itente, imbere ya ho, ya bo bari hariho tapi bigaragara ko bateguye rwose, kandi higanjemo abayobozi mu nzego zitandukanye n'abashinzwe umutekano.

Ni abagabo batatu bafite icumu ndetse bambaye n'imisatsi y'umweru, n'utuntu baziritse mu gatuza tw'umweru n'umukara. Intore ni ikirango cy'umuco nyarwanda, umuco gakondo mwiza cyane. Ni ukuwusigasira.

Abaturage b'ingeri zose bari bahuriye hamwe bari gukora umuganda ndetse hashize n'amatente bari gukupakupa ibyatsi kugira ngo hano hantu habe heza kuko n'ikibuga kigari ariko cyamezemo ibyatsi

Abagabo babiri bari imbere y'ikibindi kirimo imiheha ine, abagabo bakaba bacyicaye imbere, kandi iki kibindi n'iyi miheha niyo bakoresha bari gusogongera nko kushera cyangwa inzoga irimo muri icyo kibindi.

Ibikoresho nk'uduseke, imitako y'uduseke, mbese bikoreshwa mu byakoreshwaga kera, ariko ubu biba nk'imitako bigaragaza umuco nyarwanda, kandi bisigasira amateka y'u Rwanda meza.

Inka z'inyambo, imbere yazo ebyiri, imbere yazo hari abasaza bambaye biteye imikenyero y'umweru n'umukara kandi izi nka na zo zambaye utuntu mu gahanga tw'umweru n'umukara. Ibi bigaragaza umuco nyarwanda, umuco gakondo no kuwusigasira. Udacika.

Iduka ryo ricuruza uduseke twiza cane hakaba hari n'utundi tw'udutemeri, n'udutaro cyangwa intara n'inkoni ,ibi byose bigaragaza umuco nyarwanda.

Isekuru n'umuhini, isekuru ni igikoresho nyarwanda mu muco nyarwanda. Kandi n'ubu kiracyakoreshwa mu gusekura isombe, gusekura isoya bavanamo ifu, mbese iki ni umuco nyarwanda.

Umugabo uri gucuranga umuduri cyangwa iningiri ibyo bikoze mu biti, akazizirikaho akagozi, arimo arayiregera. Iki gikoresho ni kimwe mu bikoreshwa mu kwerekana, umuco nyarwanda gakondo.

Inka z'inyambo nziza cyane zifite amahembe ateze ziganje ni kimwe mu birango by'umuco nyarwanda. Zirimo zirashoka n'abantu bari kuzirebera, bari kumwe barazitegereza barishimye kuko ni nziza cyane.

Zubakishije amatafari ku bikuta hasi ku mbuga hari amabuye apavomye hasi, ndetse bigaragara nk'aho ari inzu ndangamurage ziba mu majyepfo. Akaba ari igicumbi cy'amateka y'u Rwanda twibitseho.

Umutego w'imbeba ukoze mu giti rwa gakoco, ni umwe ni kamwe mu gakoresho gafata imbeba niyo zakuzengereje zirya imyenda, uyu urazifata iyo yafashwe ntivamo ipfiramo.

Imbyino gakondo z'umuco nyarwanda zigaragazwa n'abakobwa beza bari kubyina bishimye, baseka, bateze amaboko. Mu muco nyarwanda barimo barizihiwe kandi bari gushimisha ababareba bagaragaza umuco nyarwanda.

Ibiryo byiza cyane bya kinyagwanda nk'ibirayi ,ibitoki, umutsima, ibihaza, ibijumba ,ibishyimbo ye biraryoshye cyane kandi ibi ngibi bikunda gusangirwa ku munsi w'umuganura nibyo bikunda gukoreshwaga.

Abantu kera basokoje. Ni abakobwa bafite umwe afite inkongoro, ibi na byo ni ibigaragaza umuco gakondo nyarwanda nka kimwe mu muco wacu tugomba gusiga sira.

Ibisabo bijishe mu njishi, hasi yabyo hari hateretse inkongoro izo nkongoro zibaje mu biti, kandi naho ziri hakozwe mu biti.

Uturango tw'umuco tuboshye, tuboshye neza mu mabara atandukanye y'umukara, umweru. Dukunze kuboheshwa inshinge kuko tugaragaza umuco nyarwanda, tukaba ari nk'imitemeri y'imideli. Uduseke mbese tuba ari imitako tugezweho cyane.

Imbehe isahani ibazwa mu giti akaba ariyo kera bakoreshaga barimo bararya kuko iterambere ritabaga ryagera ahantu hose kandi ubu akaba ari n'ikirango cy'umuco nyarwanda wo hambere wa gakondo imbehe iteretse ku mutemeri uboshye neza w'amabara atandukanye

Umushumba ari gukama inka, inka nziza cyane, amata ni kimwe mu mu binyobwa tunywa bituruka ku nka, kandi gikomeza gutuma umubiri wacu ukomera n'amagufa agakomera.

Abadamu babiri ndetse umwe afite indobo itukura n'agatwaro bigaragaraho nkaho umwe ari gucuruza itabi ry'ikibabi. Itabi ry'ikibabi bakunda kunywa bacaniriye ku munwa.

Igikoresho gakondo cy'igisate cy'igicuma, mu kinyarwanda cyiza bakitaga uruho. Urwuho rero bakaba barukoresha mu kunywa amazi, mu kunywa inzoga, kandi ni ki ni igikoresho cy'umuco gakondo w'u Rwanda.

Igicuma kirimo umuheha ndetse n'uguho biteretse ku ntara, hariho n'imiheha ibi bikaba ari ibikoresho bikoreshwa mu kunywa inzoga, umusururu cyangwa ubushera, ndetse biri mu biranga iby'umuco nyarwanda wa gakondo.

Abantu bo hambere basokozaga amasunzu, bakaba banitera imi imyitero mu bitera kugira ngo bikinge imbeho mu gatuza, aya masunzu agaragaza umuco nyarwanda wo hambere na n'ubu hari abayakoresha.

Umusaza afite umwirongi arimo arawuvuza afite na mikoro, kugira ngo byumvikane cyane. Uyu mwirongi ni igikoresho cyakoreshwaga hambere mu biranga umuco nyarwanda nko kwivugira inka ndetse no gukoresha mu nkera y'ibitaramo by'abahizi.

Umuntu wa kera wo hambere ni uku yabaga yogoshe, yogoshaga amasunzu kandi hejuru mu gituza nta kintu yambaye, yabaga yambaye ubusa ariko hasi akenyeye. Hano rero bigaragara ko uyu muntu ari uwo hambere wa kera, mu babayeho kera hambere.

Ibikoresho by'umuco nyarwanda, by'umuco gakondo, harimo ingoma, harimo ikibo, harimo imbehe, harimo inkongoro, harimo n'agatebo, harimo n'umusambi.

Umugabo uri kuvuza umwirongi，uyu mwirongi arimo arawuvuza afasheho n'intoki ebyiri n'amaboko abiri， kandi umwirongi ni kimwe mu birango by'umuco nyarwanda， kuko hambere warakoreshwaga na n'ubu uracyakoreshwa， mu byino no mu bitaramo gakondo.

Abahinzi babiri bari kugosora ibishyimbo kuri shitingi y'ubururu kandi bari no mu murima wibishyimbo begereye uwo murima.

Imisambi iboshye neza irunze mbese hano niho bayibohera bakanayicuruza, umusambi ni kimwe mu bikoresho ndyamirwa bya hambiri na n'ubu bidakoreshwa.

Ababyinnyi b'abadamu bari kubyina mu mbyino gakondo nyarwanda. Bikoreye uduseke ku mitwe kandi bateze amaboko. Izi byino ni zimwe mu birango by'umuco nyarwanda.

Umuzinga wa kinyarwanda， wa gakondo， wagitse mu giti， mbese bategereje ko uzajyamo inzuki zikazakoramo ubuki， ubuki bakazabuhakura neza, kuko zitanga umusaruro mwiza.

Ingoma zikoreshwa mu gucuranga umuziki no gucinya akadiho mu bitaramo gakondo biranga umuco nyarwanda. Izi ngoma zirakoreshwa, kuko ni igikoresho cyiza cyane, kuko zitanakenera n'umuriro w'amashanyarazi.

Umuntu arimo arasya akoresheje urusyo. Ni ibuye rinini bakomanya amabuye hagati hari nk'amasaka maze bakayasya bakoresheje ibyo bikoresho, nabyo ni bimwe mu ndangamuco na gakondo nyarwanda.

Intore zirimo zirabyina zirahamiriza zirizihiwe izi ntore zambaye imisatsi y'umweru ndetse zifite icumu n'ingabo ahantu bari ni heza hagaragaza n'ikirunga cya karilisimbi mbese izi ntore nibirango by'umuco nyagwanda.

Abahinzi, abadamu babiri bari kugosoraga ibishyimbo ndetse bahagaze bari kubigosorera ku ihema shitingi, mbese barishimye bishimiye umusaruro.

Akavure gato kabaje mu giti kandi kano kakoreshwa, mu kwenga umutobe no gutara inzoga. Iki gikoresho ni kimwe mu bigaragaza umuco nyarwanda wo hambere na n'ubu kiracyakoreshwa.

Uduseke tune n'intara ebyiri zigerekeranyije n'udutemeri ibi byose ni bimwe mu bikoresho biranga umuco gakondo nyarwanda.

Agatemeri keza cyane, keza rwose kafite amabara y'umweru n'umukara, kakaba ari kimwe mu kirango cy'umuco wo hambere gakondo w'u Rwanda, ndetse bwifashishwaga mu gupfundikira imideli ndetse n'uduseke.

Abaturage bafatanyije n'abayobozi n'abashinzwe umutekano b'abasirikari, bari mu gikorwa cy'umuganda bambaye udupfukamunwa, kandi umuganda ni igikorwa cy'ingenzi mu guteza imbere igihugu cyacu.

Umudamu arimo arasoma ingoma, ingoma ni igikoresho gikoreshwa mu kuvuza umuziki, imbyino mu gihe cy'imbyino n'imyiyereko kandi kigaragaza umuco gakondo w'u Rwanda na n'ubu kiracyakoreshwa mu muco gakondo nk'ikirango cy'umuco nyarwanda.

Abakaraza b'ingoma ni abasore bambaye imicaca y'umweru mu mutwe. Bafite imirishyo, barimo baravuza ingoma kandi hejuru bakenyeye inkanda. Hejuru mu gatuza nta kintu bambaye, uretse utuntu tw'umweru bambaye biteye.

Umubyeyi yikoreye inkono eshatu ku mutwe zigerekeranyije agiye kuzigurisha. Ububumbyi bw'inkono ni bumwe mu mirimo yinjiza amafaranga, kuko izi nkono zirakoreshwaga. Na byo kandi ziri muri bimwe mu ndangagaciro n'umuco nyarwanda.

Ibiryo biryoshye cyane harimo ibiryo bya kinyarwanda mbese ibigori ,imyumbati, ibijumba, ibishyimbo, dodo, mbese ibi biryo biribwa ku muganura abantu bari kwizihiza birabyuyubaka cyane, bitera imbaraga mbese ukagira ubuzima bwiza.

Ikibumbano cy'umukobwa ufite icyansi, aragifite mu kuboko kw'iburyo. Iki nacyo ni kimwe mu birango by'umuco gakondo nyarwanda wo hambere kuko abakobwa barangwaga no gutwara ibyatsi no gusuka amata.

Isukara irambitse yegetse ku gikuta mbese iyi suka bigaragara nk'aho ari umuhinzi wayihateretse. Iyi suka yifashishwa mu guhinga mu bihingwa bitandukanye nk'ibirayi mbese n'ibindi bihingwa byose bikoreshwa, bikenera guhingwa bihingishijwe isuka.

Uduseke tune duteretse ku meza ateguye neza, hariho n'intara ebyiri zigerekeranyije n'agatemeri n'akandi gaseke. Hari n'udutambaro imbere y'umuhanda aho bagenda.

umwagenti wa emutiyeni ahagaze imbere y'intebe ahetse afite agakapu, akoze no mu mifuka. Iyi ntebe ikoze mu migano n'ibishishwa byayo, igaragaza umuco wa nyarwanda wa kera.

Itara ry'amashanyarazi rikoreshwa n'amashanyarazi, bararicana rikamurika mu nzu, ku muhanze ku rubaraza hose rirakora ,iri tara ni ryiza cyane kuko riba rinahendutse kandi rirarama.

Agakoresho k'amashanyarazi gakunda gukoreshwa bazimya amatara banayatsa. Mu ndimi z'amahanga gabita swici. Ukandaho ukazimya, ukanatsa. Gakunda kumadikwa ku rukuta kugira ngo umuntu ajye yatsa amatara bimworoye cyangwa ayazimye.

Agakoresho kitwa ipennsi ariko gakoreshwa n'abakanishi cyane cyane bafungura amaburo cyangwa se bakata singa ku bakora mu mu mashanyarazi kano ko rwose ni keza kuko gakata amatsinga ku buryo bworoshye.

Kiliziya yubatse mu matafari, yubakishije amatafari, hejuru hariho umusaraba, isakaje amabati y'ubururu. Kiliziya ni nziza kuko abakristu basengeramo bagahimbaza Imana bayishima.

Inzu nziza cyane igezweho ya itaje yubakishijwe amatafari ya Ruriba kandi mbere hariho indabo nziza zihari n'ivaze isizwe amarangi y'idarapo ry'Urwanda.

Inyubako nziza isakaje amabati y'ubururu, isize amarangi y'umweru ndetse bigaragara ko ari etaje. Hanze haparitse imodoka. Uru ni uruganda rukora imigati ruherereye mu Byagabo. Ni rwiza cyane rukora imigati iryohaga.

Inzu nziza zubatse hafi n'umuhanda kandi zubakishije amatafari ya ya Ruliba, izi nzu ni nziza cyane kuko harimo n'ama etaje zirageretse kabiri.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza cyane, munini, mugari. Uyu muhanda ufasha mu buhahirane, imodoka zikanyuramo, abagenzi bakanyuramo bavuye mu bice byabo bagiye ahandi. Mbese, umuhanda wihutisha iterambere n’ibindi bikorwa by’iterambere.

Ikiraro cyubakishije ibyuma gica hejuru y'amazi atemba, ikiraro kikazaba gicaho amamodoka, abantu n'abagenzi bikazoroshya ubuhahirane hagati y'uduce dutandukanye, dukora kuri aya mazi ateyemba.

Inyubako nziza cyane igezweho ni etaje igeretse kabiri kandi iyi etaje ikaba ari nziza cyane, iriho na isakaje amabati meza ya dumusasi, y'amorangi y'umutuku n'andi y'ikinombe ajya gusa n'umukara.

Ikiraro cyo mu kirere iki cy'ikiraro cyambukiranya ahantu hari amazi, kikaba kiba gifashe mu birere kizirikiyeyo muri nyungwe, naho kirahaba ariko hano ni hafi nago ari muri nyungwe byo mu majyaruguru.

Urusengero rwubatse neza, ruzamuye neza, rwujuje ibisabwa ngo umuntu asengeremo ahimbaza Imana. Ntago rwegeranye n'amazu nka zimwe bajya banga ngo zisakuriza abaturage kandi arizo zigomba gusengerwamo.

Ipoto ritwara amashanyarazi mu gice cya kure，rikunze kuba ritwara ya yandi ajyaga kure cyane，kandi iyo tubonye amashanyarazi dutera imbere， ibikorwa bikenera amashanyarazi ni byinshi cyane.

Ikigo cy'amashuri ya segonderi cyubakishije amatafari kiri ahantu hegereye ishyamba, gisakaje, inzu za cyo zisakaje amabati y'ubururu, hariho n'imireko ifataga amazi.

kiliziya yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo hari umugabo ufite agakapu mu mugongo. Iyi kiliziya bigaragara ko iri kwizihiza yubile y'imyaka ijana.

Inyubako bisa n'aho ari nka sale yubakishije amabati atukura n'amatafari, haparitse imodoka, kuhinjira bisaba guca kuri geti irinzwe n'umusekirite.

Urusengero rwiza cyane rusengerwagamo n'abarokore, rwubatse neza bigaragara ko ariho rucyuzura kandi iyo urusengero rujemo abantu baraturaga ,bagatanga amaturo bagakomeza barwubaka rukasa neza cyane.

Inyubako y'ikigo bigaragara ko ari nk'icy'amashuri cyiza cyane kiriho etaje igereretse kane, igeretse kane kandi iri imbere y'umurima, mu murima uhinzemo ibihingwa bitandukanye nk'amashu agaragara, kandi ahantu heza cyane muri kirima nziza.

Inzu nini iri ahantu hitaruye bigaragara nk'aho ari urusengero, cyangwa ikigo cy'ishuri. Mbega izi nzu ziba zikoreshwa ibintu bitandukanye.

Inzu zubakishije amatafari, zisakaje amabati atukura, ese bigaragara ko ari zimwe Leta yubakira abatishoboye kugira ngo babe ahantu heza bave mu manegeka.

Urusengero rw'abapenticote adeperi Nyarugenge, uru rusengero rusengeramo abapentikote i Kigali i Nyarugenge, kandi bajyamo bagiye gushima Imana bagiye gusenga no kuyiramya.

Inyubako yegereye ishamba yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba ifite ikigega cyo kubika amazi. Hirya yayo hari umurima uteyemo ibishimbo bikiri kumera.

Inyubako igezweho, ni etage igeretse birenze rimwe isa nkaho iyi etage ari ya nyubako ya Goyiko iba hano Musanze, ibamo icururizwamo ibicuruzwa byinshi bigezweho.

Umuhanda unyura hagati mu rusisiro ku muhanda hubatse inzu yubakishije rukarakara kandi uru rusisiro bigaragara ko hanyuramo umuriro w'amashanyarazi mbese bateye imbere ntabwo bakiri inyuma y'amajyambere.

Umuhanda wa kaburimbo, umuhanda bigaragara ko bakiri kuwukora bawagura niho ugiye kuzura mu minsi iri imbere. Uyu muhanda ni mwiza kuko uzajya woroshya ubuhahirane hagati y'ibice bitandukanye kandi byihuse.

Kiriziya nziza nini, iriho agasongero kariho umusaraba, ikaba iherereye i Kabgayi nk'uko iyi iki cyapa kibigaragaza. Iri hafi n'umuhanda, ku mbuga yayo hari ishusho ya Bikiramariya, ndetse ku muhanda haparitse umumotari usa n'utegereje umugenzi atwara.

Inyubako isakaje amabati atukura iri haruguru y'ikiyaga , ikiyaga kikaba ari cyiza ndetse ni hagati y'amashyamba bituma iyi nzu iba iri ahantu heza , heza cyane.

Urusengero cyangwa kiriziya，iyi kiriziya ni nziza kandi ni nini，bigaragara ko yubakishijwe amatafari， amatafari mbese yubatswe ku bwa kera， isengerwamo n'abagatorike，abakatorike.

Urusengero rwubakishije amabuye rufite agasongero karekare kan gatuma umuntu uhagaze, aho ariho hose abona ko ari urusengero duherereye i kabgayi kuko byanditseho urusengero, ni runini kandi rugaragara nka hari urwa kera.

Umusigiti ni urusengero Abasilamu basengeragamo baramya, bahimbaza Imana kandi rwubatse mu Byangabo imbere y'umuhanda hirya na sitasiyo kandi niho Abasilamu ba hano basengeraga.

Inama yahuje abayobozi n'abaturage umuyobozi arimo aratanga ijambo ku baturage mbese ari imbere yabo barimo bamuteze amatwi mbese baje iyi nama yitabiriwe cyane inama ni nziza kuko imenyesha abaturage ibyo bagomba gukora neza.

Inama yahuje abayobozi bigaragara ko imbere hari n'undi muntu w'umuyobozi uri gutanga amabwiriza. Iyi nama yabereye ku murenge hirya hari idarapo, mbese iyi nama yabereye mu busitani bw'umurenge yitabiriwe n'ingeri nyinshi, harimo abaturage, abayobozi ndetse harimo n'umubikira.

Inama yahuje abayobozi n'abaturage harimo abashinzwe umutekano w'abadaso, imbere hari abaturage bari gutanga ibibazo n'ibyifuzo ku bayobozi, bari ku murongo, bahatonze umurongo bari gutanga ibyo byifuzo n'ibitekerezo byabo

Umuyobozi ari guha inama abaturage bitabiriye iyo nama iyobowe na we, arimo arabaha impanuro n'amabwiriza mbese ku kintu runaka, inama ni nziza hagati y'abayobozi n'abaturage bayobora, kuko higirwamo byinshi cane byabateza imbere.

Inama yahuje abayobozi n'abaturage, hari n'abacunga umutekano w'abadaso, hari abaturage bari gutanga ibibazo n'ibyifuzo byabo.

Abaturage bitabiriye inama cyangwa inteko y'abaturage harimo higanjemo ababyeyi yaba abagabo na n'abasore hari umudamu uri gutanga ikibazo cyangwa icyifuzo cye akibwira umuyobozi ubari imbere.

Bisi nini zikoreshwa, zikoreshwaga n'amashanyarazi. izi bisi zikunze gukorera mu mujyi wa Kigali kandi kuzijyagamo ubanza ukishyura ukojejeho ikarita, iba iriho amafaranga akaba ariko wishyuraga.

Abakozi ba Rwandair bahagaze inyuma y'indege, ndetse bigaragara ko bakiriye n'abayobozi ku kibuga cy'indege. Iyi sosiyete ya Rwandair ni iy'igihugu cy'u Rwanda, iyi rwse igira serivisi nziza rwose.

Moto ipakiye imyaka hariho ibitoki bibiri n'imifuka y'ibirayi. Uyu mumotari yagiye kuyitwara abijyane aho bamubwiye kuyishyira

Amakamyo aparitse ahantu ya rukururanwa, hari n'umuntu uhagaze kuri yo. Mbese bigaragara ko ari nk'umuntu uyacunga, ucunga hano amakamyo aparika.

Abanyonzi b'amagare batwara abantu bava ahantu hamwe bajya ahandi. Ayo magare afasha abagenzi cyane kuko arahendutse kandi arihuta. Kurusha uko wa genda n'ibindi binyabiziga, kuko byo biba bihenze.

Abagenzi bateze iyi imodoka batonze imirongonko muri gare. mbese, hano kwinjira mu modoka bisaba ngo ugende utonze umuronko kuko abagenzi aba ari benshi cyane. Rero hano byasabye gutonda imironko, bigaragara ko harimo ubuke bw'imodoka.

Amabisi ya kibiyesi atatu，ashoreranye， aya mabisi atwaraga abantu benshi cane， kuko usanga hajyamo abantu benshi barenze mirongo ine， ayo mabisi nayo gakunze gukorera mu mujyi wa Kigali.

Gare ihuriramo imodoka nyinshi aho zifata abagenzi n'abagenzi akaba ariho bazifatira ,harimo imodoka za kwasiteri nyinshi, izi modoka z'amabisi za sosiyete nyinshi zitandukanye....

Amabisi ya litiko na bisi za shirumuteto biraparitse, kandi hari abagenzi bari gutega aya mabisi, iyi bisi ya shirumuteto kuyitegaho, wishyura ukoresheje ikarita ugakoza ku cyuma ukagenda ukicara.

Rifani itwara amata mu bicuba iyi Rifani ni iy'ubururu, ifite ibara ry'ubururu, yanditseho "Shishawumva" barimo barayipakira ibicuba by'amata, ni byiza kuko byoroshya ababona amata ku mihanda kuyabona bitabagoye.

Imodoka za tagisi vature, za kampani ya yego kabuzi, izi modoka zitwara abagenzi ku giti cyabo, badashaka gutega zino modoka z'amabisi. Izi modoka ni insirimu rwose zirihuta, kandi iyo umuntu ashaka kwihuta arazitega.

Imodoka itwara abagenzi bigaragara ko ikora ku kibuga cy'indege itwara'abagenzi babavuye mu ndege, ibajyana mu bice bitandukanye bo bataba bazi aho bagiye izi modoka, zibafasha kuva ku kibuga cy'indege bagera, aho bagomba gucumbika ku macumbi.

Ingorofani ipakiye matera, udufuka, ndetse n'udutebe, mu bikoresho byo munzu, mbese iyi ngofani itwaje abantu bimutse, harimo umudamu uri imbere n'inyuma yayo, ikuruwe n'undi muntu mu muhanda.

Ahantu hahurira abantu benshi, hari amagare n'abanyonzi bategereje ko abagenzi baza, bakabatwara aho bagomba kujya. Kandi aho bajya, bagomba gutega amagare; bamwe na bamwe hano, hari abanyonzi batandukanye.

Igare ripakiye amashu menshi cyane, hatwikirijeho shitingi. Iri gare rikaba ryoroshya uyu murimo, kuko rishyiraho amashu menshi, aho kuba yakikorerwa n'abantu, agenda abavuna.

Icyuma bakozagaho ikarita mu gihe cyo kugenda, cyo gutega bisi, iki cyuma ukozaho ikarita kigakuraho amafaranga y'urugendo. Iki cyuma ni kimwe mu ngenzi kandi kigezweho mu ikoranabuhanga, kuko byihutisha kwishyura.

Bisi nini ziri kugenda mu muhanda zishoreranye hagati yamazu, izi bisi ni nziza kuko kuzigendamo ni byiza, zirihuta kandi kuzinjiramo wishyura ukoresheje ikarita ugakozaho, utiriwe wishyura mu ntoki, iri ni iterambere u Rwanda turi gutera imbere.

Umukobwa utwaye lifani yambaye kasike, iyi lifani y'ubururu kandi izi lifani inyuma hicayemo umuntu, lifani ikunze no gutwara imizigo myinshi kurusha moto cyangwa igare.

Umumotari wa moto afite kasike y'umuhondo, ndetse yambaye n'umupira w'ubururu wanditseho bibogisi. Abanza yamamariza uru ruganda rukora imirasire, ari kumwe n'abandi bamotari bameze nkawe.

Umukobwa utwaye igare ahetseho umusore, bisa naho bano bari guku, mu rukundo kuko barahantu, bari mu busitani bwiza cyane barishimye, barizihiwe mbega barayishimanye.

Lifani itwawe n'umukobwa wambaye bote n'isarubeti y'ubururu n' ikasike ,inyuma harimo ibikoresho by'ubuhinzi: harimo ingorofani ,harimo amashashi y'umukara, n'amarozwari.

imodoka nziza cyane, ariko ziri mu muhanda, bisa naho ambutuyaje, ziragenda zibyigana mu muhanda, bisa naho urimo imodoka nyinshi, zose zigenda gake, iyo bimeze gutya aba ari ambutuyage, n'abantu bari kugenda ku ruhande rw'umuhanda ariko harimo ambutiyaje.

Abamotari ba moto bari hamwe basa naho bari kuganira bishimye. Iyo abantu bakora umurimo umwe, no kuganira aba ari byiza.

Umushoferi wicaye muri lifani, ni lifani y'ubururu iri imbere y'iduka, iyi lifani itwara ibicuruzwa bitandukanye n'indi mizigo itandukanye, iyivana ahantu hamwe iyijyana ahandi.

Imodoka ya kwasiteri ya kampani yitwa selekiti iyi kampani itwara abagenzi ikoresheje imodoka, imodoka ni umweru ikunda kujyamo abantu batega mu modoka rusange ya serivise nziza.

Iyi modoka za bisi nini, zikorera mu mujyi wa kigali bakunze kwita za shirumuteto, izi modoka kuzigendamo wishyura n'ikarita ugakozaho, maze ukihuta bitakugoye zigira serivisi nziza cyane.

Umuntu uri kwishyura itike y'urugendo akoresheje ikarita ya tapendigo ku cyuma cyabugenewe ,hari muri bise ibi byageze mu Rwanda nk'iterambere ry'akataraboneka.

Abakozi bo mu ndege， harimo pirote n'abamwungirije， hari n'abandi bakobwa n'abasore，bambaye amakoti y'imikara na karuvati，naho pirote we yambaye agashati k'umweru n' amarineti，mbese barishimye， barimo baraseka，bakorana neza cane.

Urubyiruko rwiganjemo abasore n'abakobwa bari mu kibuga cya vole bariku amabwiriza y'umutoza. Bambaye amapantaro n'imipira y'umukara, batebeje, mbese barasa neza cyane, siporo ni nziza rwose mu rubyiruko.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru yambaye jezi y'umuhondo y'ikipe y'igihugu y'Urwanda ari gukinana ishyaka ateye umupira mu kirere yambaye inkweto nziza rwose bigaragara ko afite impano yo gukina ruhago.

Urubyiruko rwiganjemo abasore n'abakobwa. Bari kwiruka, bari gusiganwa muri marato yabahuje. Harimo ingeri zose n'abafite ubumuga. Hari uri kwirukanka afite imbago, mbese iyi marato yahuje ingeri zose z'abantu batandukanye.

Umukinnyi w'irushanwa ry'amagare afite arengeje isiganwa aserebura yishimye, abafana barahari nabo bari mufana baramwishimiye ko atsinze iri rushanwa, bigaragara ko ari turudirwanda.

Umukinnyi ukomeye w'igihangange, uri gukina tenisi, inyuma ye hari ibirango bya vizite Rwanda bigaragara ko iyi sitade ari yo mu Rwanda, arimo arakinira ku kibuga gikoresheje sima gipavomye hasi na sima n'umucanga. Iyo tenisi irajyohaga cyane kuyireba.

Abakinnyi ba Tenisi b'abakobwa bari mu kibuga cya Tenisi, bari gukina, iki kibuga ukitegereje ubona ko hari kino kibaga Musanze hafi n'akarere kandi ni cyiza cyane kizamuraga impano nyinshi z'urubyiruko.

Umukino wa handiboro ni mwiza， abakinnyi b'abadamu barimo barakina， hari umukinnyi ugiye gutsinda igitego，undi ari gukora ibishoboka ngo amugarure adatsinda. Uyu mukino ni mwiza ndawukundaga.

Abakinnyi b'ikipe bari kwifotoza, hamwe n' umu n'abayobozi babo babatoza imbere y'izamu. Bigaragara ko ari mbere yo gutangira umukino bagiye gukina, bambaye imyenda myiza rwose baraberewe, mace igiye kuba aka kanya.

Abakinnyi bari mu kibuga bigaragara ko bari muri sitade , umukinnyi w'ikipe y'Urwanda atsinze igitego cyiza akaba agitsinze n'abafana bareba . Futubolo ni nziza rwose!

Umukinnyi agiye kwambikwa umudali. Uyu mukinnyi akina amarushanwa, amasiganwa yo kwiruka n'amaguru. Bisa n'aho uyu ari Minisitiri wa Siporo wamwambikaga umudali, kandi hari n'abanyamakuru b'abafotozi, ba kameramani bari gufotora uko iki gikorwa kiri kugenda.

Umukinnyi w'umukobwa arimo arakina tenisi, afite ako bakubitisha ndetse ari gufata agapira ngo agakubite, gasubireyo mu kibuga cy'uwo bahanganye. Yambaye n'inkweto n'agakabutura kagufi n'agasengeri, asutse n'imisatsi ndetse bigaragaza ko azi gukina.

Abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'urwanda ba tenisi, mu myambaro myiza cyane umuhondo, icyatsi n'ubururu bafite ibikoresho byo gukina tenisi, mbese bigaragara ko ari abakinnyi bakomeye cyane.

Abakinnyi bari kuri sitade Amahoro bari kwitoza bambaye jezi zitandukanye, kandi sitade nta bantu barimo, aba bakinnyi bigaragara ko ari bo babandi bajya bakina kwirukanka.

Umunyonzi w'igare, ari kurinyonga umuhanda mwiza, inyuma ye hari umupolisi. Bigaragara ko uyu munyonzi yitabiriye irushanwa rya Turudirwanda, kuko yambaye ibirango bya 'Visitirwanda', n'umuzungu arimo ararinyonga, ari gusiganwa.

Abakinnyi b'abadamu bari mu kibuga muri sitade Amahoro， nziza cyane mbese aya ni amakipe abiri imwe yambaye ubururu，indi kipe yambaye umweru n'umukara， mbese bari gukina，barahanganye， bari gukinana ishyaka rikomeye cyane.

Umukinnyi w'umukobwa uri gukina handiboro, yambaye neza mu tujezi twiza tw'umukara inyuma ye hari umusifuzi umusifuzi we yambaye imyenda y'umukara n'umutuku, uyu mukino ndawukundaga rwose.

Umukinnyi wa tenisi arimo aradunda agapira akanobagiza gake gake, uyu mukinnyi ari gukinira ku kibuga cyanditseho openi Rwanda mbega ni ikibuga cyiza.

Agatenesi bakina muri tenisi hari nako bakubitisha bakinisha. Tenisi ni umukino mwiza kuko utuma twishima iyo tuwureba kandi n'abawukina barahembwa bakabona amafaranga bazamura n'imiryango yabo.

Abakinnyi ba handiboro bari gukina na n'ikipe y'abakobwa, amakipe abiri ari gukina yambaye jeze z'amabara atandukanye nziza cyane rwose. Uyu mukino ni mwiza no ku badamu bakabasha gukora siporo bateza imbere impano.

Ikipe y'abagore ikina vore bicaye, bakunze kwita sitingi voreboro bari gukina ari amakipe abiri, bambaye neza cyane ndetse bambaye n'utujezi twiza.

Ikipe y'abagore bari muri siporo bambaye jezi y'ubururu n'umuhondo yanditseho u Rwanda ndetse bambaye n'ingofero n'inkweto z'imyeru.

Abanyonzi basiganwa ku magare mu irushanwa rya turu di Rwanda rihuza amakipe y'ibihugu byinshi, bakaza bagahurira mu Rwanda bagasiganwa, buri wese ku giti cye akarwana, agahatana, agahangana cyane. Iri rushanwa ni ryiza riryoheye abantu kubireba n'abarikina.

Umuhanda urimo ivumbi bigaragara nkaho uri haruguru y'urupangu y'uruzitiro, uyu muhanda ntago ukoze ariko ntacyo utwaye kuko woroshya ubugenderanire hagati y'uduce dutandukanye.

Agace karimo inzu nziza zigezweho zubakishije ibipangu byiza bifite na geti z'inzugi z'ibyuma, aka gace kagaragara nk'aho ari ak'abakire ,abishoboye.

Akayira kari imbere y'urupangu rwubakishije amatafari, hirya yako hari indabo ziteye hafi n'umurima, utu tuyira ni twiza kuko nitwo dutuma umuntu yihuta.

Umuhanda wa kaburimbo usa naho wangiritse, kandi waragendwaga n'abantu, igice cya ruguru ya wo ni cyo gikoreshwaga cyane n'imodoka na moto. Hahagazemo umuntu ufite amajerekani abiri.

Mu Umuhanda, hirya y'umuhanda hari inzu ikorerwamo ibikorwa. Itangirwamo serivisi z'ubuhinzi, kandi hari amashanyarazi bigaragara ko aka gace karimo amashanyarazi n'umuhanda biteye imbere.